Inzu ebyiri zegeranye; imwe iparitse imodoka imbere, zirimo kwaka amatara, inyuma yazo hari ibiti byinshi, munsi yazo handitse amagambo yamamaza ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant.

Amaboko y'umuntu ufashe ku kaguru kundi uri guhambiraho imigozi bigaragara ko yagize imvune hejuru handitse amagambo Gura ubwishingizi bw'impanuka zonona umubiri butangwa na Radiant yacu wirinde sinamenye bigaragara ko bari kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi.

Abantu babiri bicaye mu modoka umwe w'igitsina gore n'undi w'igitsina gabo, handintse amagambo munsi "ntuhagarike gahunda, inshuti yizewe iri hafi yawe nk'igihe ukeneye ubwishingizi bw'imodoka yawe". Bigaragaza ko bari kwamamaza ikigo kitwa Britam gitanga ubwishingizi bw'imodoka.

Umuntu w'igitsina gabo wifashe mu maso ahumirije yambaye ishati y'umweru ndetse n'akenda gato kari inyuma yaho k'umukara handitse amagambo, "ufite impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwawe?" Bigaragara ko bamamaza ikigo cy'ubwishingizi bw'ubucuruzi.

Icyapa kimanitse ku nkingi y'icyuma, cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi bw'amamodoka, hariho umubare mirongo ine na gatanu ndetse n'imodoka y'umutuku.

Icyapa kimanitse ku nkingi y'icyuma, ifite amabara y'umweru n'umutuku, n'amagambo yanditsemo mu rurimi rw'icyongereza, ndetse hariho ishusho y'umugabo w'umuzungu, handitseho izina Brian Jones, n'imibare, cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi.

umuntu w'igitsina gabo wambaye ikoti uri kureba muri terefone ngendanwa, ku ruhande rwe hari imodoka bigaragara ko yakoze impanuka nijambo hejuru ryanditse mu mpine M na U na A risobanuye kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi bwibikoresho hasi handitse kuki ukwiriye kutwizera mugihe ukeneye ubwishingizi.

Icyapa kinini cyane kimanitse ahantu ku nkingi z'ibyuma, cyanditseho amagambo yamamaza ikigo cy'ubwishingizi bw'ibikoresho, hariho ishusho y'umugabo w'umuzungu wambaye ikoti.

Ishusho yamamaza ikigo cy'u ubwishingizi cya radiyanti gikorera mu Rwanda, handitseho amagambo ubwishingizi bwo kwibwa, hariho ikiganza cy' umuntu ushaka gufata ku mukono w'urugi.

Umuntu wigitsina gore wambaye impuzankano yakazi ndetse ningofero yubwirinzi. Imbereye hari amagambo yanditse yamamaza ikigo cyubwishingizi bwibikoresho handitse " gira abakozi b'indahemuka kandi bakunda umurimo". Hasi hari nomero wabasangaho.

Umugore uryamye ku buriri ndetse bigaragara ko ashobora kuba arwaye kuruhande rwe hahagaze umugabo wambaye impuzankano zakazi w'umuganga barimo kuganira hasi yanditse amagambo si ngombwa gutegereza ko ujyanwa mu bitaro mu gihe urwaye kugirango ubone kugura ubwishingizi bisobanuye ko ari ikigo cy'ubwishingizi .

Inkongi y'umuriro uri kwaka cyane k'uruhande handitse amagambo n'izina ry'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa radiyanti gikorera mu Rwanda handitse hasi amagambo ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro.

Icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa buritamu, harimo abagabo babiri bari gukora ibintu bijyanye n'ububaji handitseho ramba na buritamu ubwishingizi bwo kwivuza bwagenewe amatsinda n'ibigo bito.

Urubuga rw'ikigo cya banki yitwa zigama rugaragara mu mashusho y'icyatsi, hasi handitse ijambo riri mu rururimi rw'icyongereza ruha ikaze umuntu ugiye gukoresha uru rubuga agashyiramo imibare ye ndetse n'umubare w'ibanga hasi.

Ishusho igaragaza urubuga rw'ikigo gitanga ubufasha bwo kubika amafaranga ndetse ukanayabikuza hariho amazina y'umuntu witwa Umuhire Ngabo Tania Balbibe n'umubare w'amafaranga afiteho , ibihumbi mirongo ine na kimwe.

Ishusho igaragaza urubuga rutanga ubufasha bwo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga hariho amatariki n'umwaka ndetse n'amafaranga yagiye abitswa ana bikuzwa.

Ahantu hameze nko mu iduka ry'imyenda y'abagore, imitako iboshye, ibiseke n'ibindi. Biri mu nyubako ifite ibara ry'umweru.

Iduka ry'imyenda ririmo iy'abagore ndetse n'iy'abagabo, hejuru hatatsemo ikibumbano cy'ingagi ndetse n'ibyansi bimanitse mu kabati k'imbaho.

Umugore uhagaze mu iduka imbere ye hateretse udukapu twinshi ku meza turimo ibicuruzwa ndetse ku ruhande hari akabati gateretseho itara riri kwaka umuhondo.

Iduka ricuruza imyenda ndetse n'inkweto harimo udupupe twambaye imyenda kugirango berekane ko ihacururizwa n'inkweto ziri mu tubati nyinshi zitandukanye harimo iz'abagire n'iz'abagabo.

Abantu babiri harimo uw'igitsina gore ndete nuw'igitsina gabo bari kureba muri mudasobwa, inyuma yabo hari abandi bari nabo kureba muri mudasobwa. Bigaragara ko ari iduka, bari kwishyura ibicuruzwa baguze.

Iruhande rw'umuhanda hari inyubako icururizamo imyenda yo kwambara y'abagore n'ibipupe biyambaye kugira ngo bamamaze ko hacururizwamo imyenda, ku ruhande hateye igiti cy'umukindo n'umuntu w'umugabo uri kuzamuka afite agatebo gato mu ntoki, inyuma ye hari imodoka ihagaze y'umutuku.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo y'amakote, imbere yaryo hari igipupe cyambaye ikote, cyamamaza ko hacururizwa.

Iduka ririmo umucuruzi ndetse n'umuguzi barimo kuganira ku giciro k'ibyo agiye kugura ririmo ibicuruzwa bitandukanye ibyo kunywa ndetse n'amafu y'ibigori.

Inkweto zambarwa n'abakinnyi b'imipira ndetse n'izindi zimanitse hejuru zikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko iri ari iduka ricuruza ibikoresho bijyanye n'imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cy'inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imitako itandukanye, harimo iy'indabyo n'ibibumbano by'ingagi ndetse n'utundi dutako dutoya, harimo n'imyenda itandukanye.

Iduka ricuruza imyambaro yo hejuru imanitse ku cyuma kiriho udukoresho twabugenewe bashyiraho imyenda hafi hateretse igikombe ndetse n'igiseke, hejuru hari icyapa cyanditseho ibikorerwa mu Rwanda mu rurimi rw'icyongereza.

Iduka ricuruza imyenda y'abagore y'imipira ndetse n'iyo hasi y'amakanzu, hamanitsemo utwenda dutandukanye two hejuru.

Inzu isize amarangi y'icyatsi ifite imiryango ikoreramo amaduka rimwe ry'imyenda y'abagore y'amakanzu ndetse imbere yaho hari guca abantu bafite imisego mu ntoki bari kugenda bayicuruza .

Iduka ricuruza imyenda idoze mu bitenge, ndetse n'imitaka myinshi irambitse ku gasanduku k'umweru ku ruhande hari imyenda myinshi imanitse ku dukoresho twagenewe kumanikwaho.

Iduka ricuruza imyambaro y'abagore ririho ibibumbano byambaye imyenda y'abagore byerekana ko ari aho icururizwa. Iyo nzu ifite urugi rurimo ibirahure ndetse hejuru han hariho icyapa cyamamaza iryo duka.

Iduka ricuruza imyambaro ndetse n'inkweto, imbere hari igipupe cyambaye ijipo ndetse n'akenda gato ko hejuru kirabura, ku mpande hari akabati karimo inkweto zitandukanye z'imikara niz'imyeru.

Abagabo babiri bahagaze imbere yinzu ikoreramo ikigo gicuruza imodoka cyitwa akagera motos kuruhande rwabo haparitse imodoka bafite urufunguzo rwayo ku ntoki.

Imodoka yumweru irimo igenda mumuhanda kuruhande rwayo hari inkuta z'urugo rw'inzu zubakishije udutafari tw'impunyu ndetse n'ibiti bigaragara imbere iruhande rw'indi nyubako .

Abantu batanu barimo bane b'igitsina gore n'umwe w'igitsina gabo, bahagaze mu nzu, imbere yabo hari ameza ateretseho telefoni ngendanwa ndetse n'impapuro, bigaragara ko bari kwamamaza ikigo gikora ubucuruzi bw'imodoka kuko inyuma hari amashusho y'imodoka.

Umuntu w'umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'akenda ko hejuru gato k'umukara karimo ishati mo imbere n'akagofero gasa n'ishati yambaye akoze ku modoka y'umukara.

Abantu bagabo babiri bari guhererekanya urufunguzo rw'imodoka, rwanditseho amagambo a ba ga Akagera motozi, inyuma yabo hari imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso isa umweru.

Imodoka y'umukara ihagaze mu rugo rukikijwe amabuye yubakishije sima hejuru hariho utwuma imbere handitse umubare makumyabiri na gatanu ukurikirwa n'inyuguti ya M bisobanuye ko igurishwa miliyoni makumyabiri n'eshanu hejuru handitse amagambo mu rurimi rw'icyongereza toyota hilande hybrid n'imibare bibiri n'acumi na kabiri.

Abantu babiri umuzungu n'mwirabura barimo berekana utuntu bafite mu ntoki uw'umwirabura yambaye umwenda w'akazi wanditseho toyota.

Umusore uhagaze imbere yimodoka isa umweru, inyuma ye hari icyapa cy'uruganda rutunganya imodoka rwa Yundayi, ndetse n'indi iparitse ku ruhande rwe, y'umukara.

Abagabo batatu b'abazungu n' umwe w'uwirabura, babiri bafashe urufunguzo rw'imodoka banditseho a ba, ga Akagera motozi, bari imbere y'imodoka bigaragara ko umwe amaze kuyigura, hejuru hari icyapa cy'uruganda rutanga imodoka rwitwa nisani.

Mu imbere h'imodoka hagaragaza ikiziga gihindukiza imodoka ndetse n'ibyo bakandagiraho batwara imodoka. Isa umukara, imbere yayo haparitse izindi modoka nyinshi mu nyubako ifite amatara yaka hejuru ku gisenge.

Abagabo batatu, babiri bari guhererekanya urufunguzo rw'imodoka, umwe ni umwirabura, babiri ni abazungu, ku ruhande hari iyo modoka nini yo mu bwoko bwa fuso, inyuma hari inyubako yanditseho icyapa cya fuso.

Imodoka ntoya zo mu bwoko bwa yundayi, zihagaze mu nzu hejuru ifite igisenge kiriho amatara y'umweru, ndetse kugikuta hari idirishya ririmo ikirahure cyanditseho yundayi.

Abantu babiri barimo guhererekanya amafaranga babagore imbere yabo ku meza hateretse igitabo n'ikaramu ndetse ku ruhande hari igikoresho gifotora impapuro.

Ibiganza by'umuntu ufashe ku manote menshi y'amafaranga ahambirije utugozi, ku ruhande hari imashini zibara amafaranga ndetse n'akantu k'agakarito k'umweru.

Abantu bahagaze imbere aho bakirira abaje kubitsa amafaranga, ndetse n'abayabikuza imbere hari abandi bari mu cyumba gikikijwe n'ibirahure bigaragara ko bari kubaha ubufasha.

Igiceri cyanditseho banki nkuru y'u Rwanda kiriho insina ihetse igitoki handitseho umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ku mpande hari ishusho y'umweru.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga, umwe yicaye mu biro by'ikigo kibika kikanabiguriza abantu amafaranga arimo arakira uwaje kuyabitsa.

Inoti ebyiri z'amafaranga y u Rwanda ijana, iyo hasi iriho umugore uhetse umwana mu mugongo, handitseho banki nasiyonali y'u Rwanda amafaranga ijana mu mibare.

Ibiganza by'abantu babiri bari guhererekanya amafaranga y'inoti, bigaragara ko ari muri banki, umwe ari ahakingirije ikirahuri undi ahagaze imbere ye amuhereza ngo amubikire.

Ibicuruzwa birimo ibyo kurya by'imineke ndetse n'ibindi bicuruzwa biri mu dukoresho dutoya biteretse mu kabati kubabakishije imbaho.

Isahani y'umweru iteretseho ibyo kurya bikozwe mu ifarini bitetse mu mavuta ndetse n'agapapuro ko kubifatisha biri kumeza asa umukara kuruhande hari udukombe turimo ibyo kunywa ariko tutagaragara twose.

Abantu babiri b'igitsina gabo umwe usa nk'aho akuze cyane ahagaze imbere y'akameza karekare gateretseho indobo zirimo ibyo kurya bikozwe mu ifarini bitetse mu mavuta, inyuma hari akabati karimo utujerekani twinshi bigaragara ko acururizwamo amata.

Igikoresho bakusanyirizamo amata kikayabika, cyanditseho inyange, ku mpande hari amata ari mu dushashi ndetse n'imitobe yo kunywa iri mu macupa n'andi y'amazi, hejuru hari utujerekani tw'umweru turimo amata ndetse n'intebe ku ruhande.

Abantu barimo umwana, umukobwa, ndetse n'umusore, ufite umutobe wo kunywa wo mu bwoko bwa fanta bahagaze mucyumba kirimo igikoresho kibika amata ndetse n'akajerekani k'umweru kariho akantu basukiraho amata.

Ikaragiro ry'amata ririmo ibikoresho byagenewe gukonjesha amata, ndetse n'akabati karimo udukarito tw'amata, ndetse n'amacupa arimo imitobe ikorwa n'uruganda rw'Inyange.

Abantu benshi b'igitsina gabo bicaye mu ntebe bafite ibikombe by'ibirahuri birimo amata barimo baseka ndetse imbere yabo ku meza hateretse amasahani ariho ibyo kurya bikozwe mu ifarini.

Inzu iriho icyapa hejuru cyanditseho ikaze dayari, ahakorerwa ikusanyirizo ry'ibinyobwa by'amata, munsi hari umuryango ufunguye, na wo byanditseho.

Abagabo babiri harimo uhagaze uri guhereza ibyo kurya no kunywa ku meza, birimo amata ndetse n'amandazi n'umwana wicaye kuruhande ufite igikombe cy'amata ari gusoma.

Umugabo wambaye akenda gato ko hejuru uri guhereza igikombe umugore wicaye mu ntebe imbere yari ameza ateretseho udusahani tubiri ndetse nu'ndi mugabo wambaye agakoti n'akagofero kuruhande hejuru yabo hari icyapa cyanditseho amagambo menshi ndetse n'indobo zirimo ibyoku kurya ku ruhande.

Umuntu w'igitsina gore wambaye ishati y'umweru uri kubuganiza amata mu dukombe tunini, kuruhande hateretse icupa ririmo ubusa ndetse mu idirishya risize amarange y'ubururu haragaragara undi w'igitsina gore bigaragara ko ategereje ko bamuha.

Ameza arambuyeho igitambaro ateretseho amata ari mu gikombe cy'ikirahure ndetse n'isahani iriho ibyo kurya bitetse by'imyumbati na telefone n'umukecuru wicaye uri kwishyura inoti afite mu ntoki.

Urutonde rw'ubufasha butangwa nikigo cy'itumanaho cya MTN gikorera mu Rwanda hariho uburyo bwo kohereza amafaranga bwo kugura ibintu bwo kwishyura ibintu bitandukanye handitseho uwo wahisemo, yahisemo umubare karindwi.

Ibiganza bibiri by'abantu birimo terefone bigaragaza umwe yoherereje undi amafaranga hejuru hari izina ry'ikigo gitanga ubu bufasha riri mu cyongereza Kopedu piyerisi, handitse amagambo twizigamire, tugurizwe, dutere imbere bigaragara ko ari uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza agaragaza urubuga rwo kwishyuriraho amafaranga ukoresheje murandasi, agaragara amadolari ibihumbi birindwi magana atanu yishyuwe ku muntu.

Amagambo yanditse mu cyongereza hejuru peyimenti adivayise, hasi handitse andi yerekana urubuga rwishyurirwaho binyuze kuri murandasi, hariho amazina y'uwishyura ndetse n'amafaranga ibihumbi mirongo kenda.

Ishusho yamamaza urubuga rwitwa spenn rwo kuri murandasi, rwishyurirwaho amafaranga ndetse ukaba wanayakira, hariho ishusho y'umuntu w'umusore ufite telefoni mu ntoki yerekana urwo rubuga.

Urupapuro rw'icyemezo gitangwa n'ikigo gishinwe ubuziranenge kitwa aradibi gikorera mu Rwanda, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza n'itariki urwo rupapuro rwatangiweho.

Urupapuro rwinyemezabwishyu ruriho hejuru ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda rutangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyo mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti handitseho izina ry'ikigo cyishyuye umusoro ndetse n'akarere giherereyemo na nimero.

Inoti nyinshi zirambitse ahantu hagaragara hejuru ebyiri z'amadolari ijana ya Amerika yanditseho mu mibare ndetse no mu magambo.

Amanote minshi ya mirongo itanu ya mayero ari mu kiganza cy'umuntu ndetse no ku mpande hagaragara amashusho menshi y'ayo manote yanditseho imibare mirongo itanu.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amanote menshi y'amadolari ijana ku ruhande hari akamashini gateranya imibare ndetse n'amanoti menshi ahambirije utugozi.

Ibiganza by'umuntu w’ umuzungu ufite inoti nyinshi z'amadolari y’ Amerika ijana arimo guhereza undi ukikijwe n'ikirahure bigaragara ko akora muri bank.

Ibiganza by'umuntu bifashe inoti zitandukanye, harimo; iya mirongo itanu y'amayero, ndetse n'iy'idorari rimwe, iy'ibihumbi bitanu by'amanyarwanda, ndetse n'iy'igihumbi cy'amanyarwanda.

Inoti y'amashiringi magana atanu ya Tanzania, yanditseho banki nkuru ya Tanzania, iriho ishusho y'umuntu w'igitsina gabo, ndetse n'amagambo n'imibare gatanu, umunani, karindwi, gatatu, karindwi, rimwe, umunani, abanza, A Z.

Inoti y'amadolari ijana iri hejuru y'indi y'amayero mirongo itanu ndetse hateretse n'izindi noti nyinshi zitari kugaragara umubare wazo.

ibiro by'ikigo gitanga ubufasha ku ivunjisha ry'amafaranga atandukanye hariho icyapa hejuru cyanditse mu magambo y'umukara gisa umuhondo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Inzu ikoreramo ikigo kivunjisha amafaranga isize amarangi y'umuhondo yanditseho amagambo yo mu cyongereza moni ndetse imbere yayo hahagaze umugabo w'umuzungu wambaye umupira w'umukara.

Inzu ifite umuryango ukinguye, imbere yayo hari ibyapa byinshi ndetse no hejuru ku rukuta hamanitse ikindi cyapa kiri mu mabara y'umutuku n'amagambo yanditsemo y'umweru, agaragaza ikigo cyohereza amafaranga ndetse kikanavunjisha amafaranga

Ibiro by'ibigo gikora ivunjisha ry'amafaranga agiye atandukanye, biri mu nzu ifite imiryango irimo inzugi zirimo amadirishya y'ibirahure.

Icyapa kimanitse hejuru ku nzu byanditse mu magambo y'icyongereza yunivaso foregisi biro, bisobanuye ikigo gikora ivunjisha ry'amafaranga hasi yanditseho ko kiri i Kigali mu Rwanda, na nimero ya terefoni wabasangaho.

Inyubako ifite umuryago hasi ukoreramo ikigo gikora ivunjisha ry'amafaranga, hejuru hari icyapa cyanditseho izina ryacyo na nimero ya telefoni wabahamagaraho. Hasi hari abantu babiri b'igitsina gore bigaragara ko baje gusaba ubufasha.

Ibiro by'ikigo kivunjisha amafaranga, bikorera mu nzu hejuru yayo hari igorofa rikoreramo inzu y'ubucuruzi icuruza imyenda yo kwambara, kuri iki cyapa kiri imbere cyanditse mu magambo y'ururimi rw'icyongereza yanditse gayidi furanki folix buro.

Intebe ziri iruhande rwameza bikozwe mu mbaho ndetse ni utubati dufite imiryango myinshi natwo dukozwe mu mbaho bigaragara ko ari ahantu hagurishirizwa ibikoresho bikoze mu mbaho.

Umutako uteretse ku meza, ukozwe mu mbaho nawo ukozwe mu mbaho, uri mu ishusho y'inzu, ku ruhande hari urugo ruzitije ibyuma byinshi bisobekeranyije, ndetse n'imbaho kuru ruhande.

Agakoresho gakozwe mu mbaho bigaragara ko ari akameza gafiteho ububiko bugiye butandukanye, ku ruhande hagaragara umuryango uriho urugi rw'icyuma rusize irangi ry'ubururu ndetse n'akandi gakoresho kari munzu katagaragara neza.

Intebe zikozwe mu mbaho nyinshi ndetse n'ameza nayo akozwe mu mbaho biri ahantu hakikijwe ibikuta nabyo by'imbaho bigaragara ko ari ahantu hatunganyirizwa ibintu bitandukanye bikorwa mu mbaho.

Intebe ndetse n'ameza bikozwe mu mbaho, intebe zirimo imisego bicaraho, inkuta ziri ku ruhande zisize amarange y'umweru.

Intebe zikozwe mu mbaho ziri iruhande rw'ameza nayo akozwe mu mbaho mu nzu irimo kwaka amatara ku ruhande hari izindi nyinshi bigaragara ko ari ahakorerwa intebe zo mu mbaho n'ibindi bikoresho byo mu mbaho.

Intebe zifite imisego ndetse harambitseho n'indi misego yegamirwa iri mu myenda ndetse n'ameza akozwe mu mbaho; ku nkuta z'inzu hatatseho amashusho atandukanye.

Intebe ndetse n'ameza birikumwe byose bikoze m'imbaho kuhande hagaragara urukuta rw'inzu ruriho idirishya rifite ikirahure ndetse n'urugi rw'icyuma ruri ku karyango gato.

Urupapuro rugaragaraho isahani iriho ibyo kurya ndetse hasi hari amagambo yanditse yerekana ibyo kurya ndetse n'ubufasha butangwa mu ihoteri n'amafaranga byishyurwa.

Inzu ifite akabaraza imbere kariho amabati ndetse kubakishije inkingi z'ibyuma, imbere yayo hari ubusitani bw'ibyatsi n'indabyo ndetse n'ibiti by'imikindo.

Urugo rw'inzu rwubakishije ibyuma ndetse n'inkuta ziri mu mpande imbere yarwo hari intebe zikozwe mu mbaho zisize amabara y'umukara ndetse n'indabyo zigize ubusitani.

Inzu yaka amatara menshi cyane imbere hari intebe ziteguye zirimo imisego ndetse n'ameza kuruhande hateye ubusitani bw'ibiti biri mu tuntu dusukirwa.

Inzu ifite inkingi nyinshi zisize amarangi y'umutuku, ku ruhande hariho n'ibyuma, hamanitse agakoresho kari mu ibara ry'umutuku kazimya inkongi y'umuriro, gafite umupira usohora ibizimya w'umukara.

Intebe nyinshi zifite amabara y'imituku zikozwe mu mbaho, imbere y'ameza atatseho uturabyo, ku mpande hari inkuta z'ibirahure ndetse n'igisenge kirimo amatara yaka umuhondo.

Intebe nyinshi zikozwe mu biti ziriho imisego ndetse n'utundi dutebe duto tw'ibiti tubaje n'ameza nayo akozwe mu mbaho, ku ruhande hari urukuta rw'inzu rwubakishije udutafari tw'impunyu ndetse n'amazu menshi agaragara nkaho ari mu mujyi.

Intebe iriho imisego imbere yayo hateretse akameza k'icyuma gateretseho ibirahure, ku ruhande hari insakazamashusho y'umukara ibambye ku gikuta, hasi ari akantu ko guterekaho udukoresho.

Hotel iri mu mazina yicyongereza osis park wild urban, imbere yayo hari ubwogero rusange buriho udutebe bicaraho baruhuka abaje koga.

Ihoteri ifite ubusitani imbere bw'indabyo ndetse n'iziteye mu bibindi biterwamo indabyo ku ruhande hari akazitiro k'imbingo kari ku muryango ndetse n'umuryango urimo inzugi zisize amarange y'umweru z'ibirahure.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi biri mu nyubako ifite ibirahure hejuru ndetse iherereye i Remera, kuruhande hateye ibiti ndetse hari n'indi miryango ikoreramo ubucuruzi.

Umuryango wo hasi w'inzu ifite igorofa ryo hejuru, uriho urugi rusize amarange y'icyatsi ndetse hejuru hari icyapa cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera i Nyamirambo kitwa purayimu inshuwarensi.

Inzu igeretse ndende iri iruhande rw'umuhanda ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cyitwa buritamu, ku ruhande hari ikintu cyubatse ku nkingi kigaragaramo imibare y'isaha.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa buritamu incuwarensi, hasi hari imiryango irimo abantu bari gutambuka hari abambaye imyenda y'imihondo y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene.

Umuryango ufunguye w'inzu ufite urugi rw'icyuma rusize irangi ritukura mu idirishya ry'icyuma ririmo ibirahure, k'urukuta rw'inzu handitseho amagambo mu mpine u a p.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi birimo intebe zisa ubururu ndetse n'ameza n'inkingi z'iyo nzu zisize amarangi y'mweru n'amatara yaka hejuru ku gisenge.

Inyubako y'igorofa ifite imiryango myinshi hasi ikorerwamo ubucuruzi, hejuru hari icyapa kerekana ko hasi hari undi muryango ukoreramo ikigo cy'ubwishingizi.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi harimo intebe z'imituku ndetse n'ameza ateretseho za mudasobwa z'imikara, ku mpande hari inkuta z'ibirahure ndetse hejuru hari igisenge kirimo amatara ari kwaka.

Inzu imanitseho icyapa kiriho ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda cyitwa purayime ishuwarensi, ishami ryo mu karere ka Rusizi.

Inzu irimo akabati ndetse n'agakoresho gaterekwaho imitako gakozwe mu mbaho, ifite amadirishya n'inzugi by'ibirahure, harimo icyapa cyanditseho ikigo cy'ubwishingizi cyitwa ziyoni.

Imeza iteretseho udukoresho ndetse ku ruhande hari intebe na yo ifite udupine iteretseho igitabo, ku gikuta gisize amarangi y'umweru hariho umutako w'igishushanyo hejuru.

Abantu babiri b'abagore ndetse na babiri b'abagabo bicaye mu ntebe, imbere yabo ku meza hateretse za mudasobwa zirimo kwaka ndetse n'ibitabo bisa nk'aho bagiye kwandikamo.

Icyumba kirimo intebe z'imikara ndetse n'inkuta zitatse imitako y'imigongo ndetse n'izindi ku ruhande ziteye amarangi y'umweru n'akabati gafite ibirahuri ku mpande.

Ibiro by'ikigo gitanga ubufasha bw'ubwishingizi, hicayemo umusore wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'undi mugabo uri kwereka umugore mu bitabo, ku ruhande hamanitse icyapa cy'icyo kigo cyitwa radiyanti.

Abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bari mu biro by'ikigo gitanga inguzanyo umukobwa wicaye wambaye ikarita y'akazi arimo kubakira ababaza uburyo abafasha .

Abantu b'igitsina gore batanu bahagaze imbere y'inyubako ifite icyapa hejuru cy'ikigo gitanga inguzanyo cyitwa Unguka finanse, hasi hahagaze undi mugabo uri mu muryango n'undi wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, imbere yabo hari imodoka.

Imodoka z'imikara ntoya ziparitse munsi y'inyubako ndende. Ku ruhande rw'iyo nyubako hari icyapa cyanditseho amagambo y'Icyongereza 'digital loan provider', urubuga rutanga inguzanyo binyuze kuri murandasi.

Urupapuro ruriho ishusho y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul KAGAME, ariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza kongaratureshenizi, hejuru hari ijambo pa ba na ra, bivuze banki y'abaturage.

Umusore ndetse n'inkumi bahagaze mu ifoto yamamaza ikigo gitanga inguzanyo, handitseho amagambo y'icyongereza avuga joyini awa timu.

Uburyo bwo gutanga inguzanyo butangwa n'ikigo cya banki yitwa equity ikorera mu Rwanda hariho nimero za telefoni ndetse n' uburyo butandukanye basabamo inguzanyo .

Abantu benshi cyane bari mu nyubako ifite amagorofa ane hasi hagaragara imodoka y'ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda cya polisi, n'umwe uhagaze wambaye agapfukamunwa n'abandi bagabo bari iruhande rw'imodoka y'umukara.

Abantu b'igitsina gore benshi bicaye mu isoko ricuruza ibyo kurya birimo n'imbuto, hari ibitebo biteretseho imboga ndetse ku ruhande hari ibiribwa by'imbuto.

Abantu benshi bari mu isoko harimo abari gucuruza imbuto zitandukanye zirimo intoryi ,imiteja ndetse n'insenda, n'inyanya n'izindi mboga z'amoko atandukanye .

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako y'igorofa, hirya yayo hari amapoto atwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'irindi ririho itara ryo mu muhanda.

Abantu benshi bari mu isoko ricuruza ibyokurya bidatetse birimo imyumbati n'ibijumba hagaragara umugabo wambaye agakoti k'umukara wicaye ku kintu cyubakishije imbaho ndetse n'abandi ku ruhande rw'abagore baje kugura.

Umuntu w'umusore wambaye umupira urimo aravugira kuri terefoni ngendanwa, uhagaze imbere y'akazu gakoreramo ikigo cy'itumanaho cyitwa emutiyene cyo m'u Rwanda, kiri mu mabara y'umuhondo.

Akazu gato k'umuhondo karimo umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene ( MTN) gikorera mu Rwanda gafunguye ,kuruhande hari undi uri kumuvugisha bisa nk'aho amusaba ubufasha bw'itumanaho.

Abantu bigitsinagabo batatu harimo babiri bambaye impuzankano z'imihondo z'ikigo cy'itumanaho cya MTN gikorera mu Rwanda imbere yaho hari mudasombwa irikwaka undi abahagaze imbere ababaza ku bufasha.

Ibiganza by'umuntu ufashe telefoni mu ntoki yakamo amabara y'umuhondo ari mu magambo momo bisobanuye uburyo bukoreshwa bwo kohereza amafaranga no kuyakira by'ikigo cy'itumanaho cya MTN gikorera mu Rwanda.

Abantu bahagaze iruhande rw'ibyapa byinshi cyane by'umuhondo by'ikigo k'itumanaho cya emutiyene barimo abasore ndetse n'umukobwa umwe ugaragara yahagaze mu muryango w'inzu.

Akapa gato k'umuhondo kanditseho ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda cya emutiyeni, hasi hari akanyenyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri, gatatu, urwego n'imibare hasi rimwe, zeru, umunani kane, rimwe, gatatu, ku ruhande hari ikindi cyapa cyanditseho amagambo menshi.

Bahagaze babiri bari kuvugana n'abandi babiri bicaye ku ma moto bisa nkaho barimo kubishyura mumuhanda,. kuruhande hari akapa k'umweru kandiditseho amagambo, y'inyuma yako hateye ibihingwa by'insina, ndetse n'indabyo.

Akazu gatoya karimo umucuruzi ucuruza ibikoresho by'itumanaho by'ikigo cya Emutiyene gikorera mu Rwanda ndetse akanatanga ubufasha butandukanye bujyanye n'itumanaho.

Abantu batatu bahagaze harimo umukobwa umwe wambaye agapira k'umuhondo kanditseho ikigo cy'itumanaho cya Emutiyene, gikorera mu Rwanda ndetse n'abandi bagabo babiri, umwe ari kwereka undi muri telefoni ngendanwa.

Abantu bahagaze ku kadirishya k'akazu gato gakoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho, utanga ubufasha bujyanye n'itumanaho rya Emutiyeni ikorera mu Rwanda, Hicayemo umukozi wabo ndetse n'inyuma hari izindi nyubako.

Abantu babiri umukobwa ndetse n'umusore, bahagaze imbere y'umukozi w'ikigo k'itumanaho cya emutiyene gikorera mu rwanda, imbere ye hari za mudasobwa bigaragara ko ari kubaha ubufasha bujyanye n'itumanaho.

Akazu gakoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene gikorera mu Rwanda kari mu mabara y'umuhondo, imbere hahagaze umugabo bisa naho ari gusaba ubufasha umukozi w'icyo kigo cy'itumanaho ku ruhande hari umuhanda urimo abantu benshi bari kugenda.

umuhanzi kazi w'umunyarwanda, wambaye impuzankano yumuhondo y'ikigo cya MTN gikorera mu Rwanda, ufite indangururamajwi. Inyuma ye hari icyapa cyiriho abantu babiri: umusore n'inkumi nabantu bicaye mwihema nabo bambaye impuzankano z'umuhondo bari gukurikira ibyo avuga.

Akazu gatoya k'umukozi w'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cyitwa eyateri (airtel) gakoramo umukozi wabo utanga ubufasha butandukanye bw'itumanaho.

Inzu iteye amarangi y'umuhondo yamamaza ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cya emutiyeni handitseho amagambo hejuru ryoherwa n'umuvuduko wa interineti aho waba uri hose, ndetse hasi hahagaze umuntu wambaye agapira k'umuhondo.

Urupapuro rw'umuhondo rwanditseho amazina y'ikigo cy'itumanaho cya MTN gikorera mu Rwanda, hasi hari amazina y'umucuruzi w'ubufasha bwabo witwa GETPONG ENTERPRISE hasi hari imibare ye karindwi umunani icyenda zeru kabiri zeru.

Akazu gakoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cya emitiyeni asize amabara y'umuhondo kanditseho n'amagambo mbere yako hahagaritse abantu bakeneye ubufasha bw'itumanaho.

Umuntu uhagaze imbere y'icyapa cy'umuhondo kirimo telefoni yanditsemo akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego, bigaragara ko ari gusaba ubufasha bujyanye n'itumanaho ritangwa n'ikigo cyitwa emutiyene mu Rwanda.

Urubuga rw'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye byo kuri murandasi, rwanditse mu magambo y'ururimi rw'Icyongereza, hariho ibicuruzwa ndetse n'amafaranga y'u Rwanda bigurishwa.

Urubuga rwitwa Murukari, rucuruza kuri murandasi ibyo kurya, bakabigeza ku wabiguze aho ari, hagaragara ko ruherereye i Kigali.

Abamotari bari kuri moto mu muhanda, bambaye impuzankano z'imituku zanditseho yego moto, imbere yabo hari imodoka y'umweru iri kugenda igeze i ruhande rw'inyubako zifite amabati atukura eshatu zitandukanye.

Abantu babiri b'igitsina gore bari guhererekanya ibicuruzwa bigaragara ko umwe ari umukozi w'ikigo gitanga ibicuruzwa kuri murandasi ari guhereza umuguzi wabo inyuma yabo hari icyapa cyanditseho icyo kigo cyita vuba vuba.

Terefone yaka irimo amashusho y'imyenda icuruzwa ni inkweto ndetse n'umukobwa wambaye agakanzu k'umukara n'amagambo yanditsemo mu rurimi rw'icyongereza n'amakaramu abiri arambitse iruhande rwa mudasobwa y'umweru.

Inkweto z'umweru zirambitse ku tuntu tw'utwuma, hejuru hari amagambo ari mu cyongereza, yerekana ko hari kwamamaza ikigo gikora ubucuruzi bwo kuri murandasi.

Ibiro by'ikigo gifite amazina ari mu rurimi rw'icyongereza yanditse fureshi andi organi, ifite icyapa cyimanitse hejuru y'inyubako ndetse imiryango irafunguye iriho inzugi zisize amarangi y'icyatsi.

Icyumba kirimo akabati gakozwe mu mbaho gafite utwugi twinshi ndetse n'umuryango w'icyumba ufunguye uriho urugi rw'imbaho ikodeshwa amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi iherereye i kigali mu Rwanda hejuru ku gisenge haraka amatara.

Icyumba k'inzu kirimo igitanda gisasheho amashuka y'umweru hariho n'umusego imbere hari idirishya ririho ibyuma rifite n'igitambaro gikingirizaho ibirahure, handitseho amafaranga y'amadorari ibihumbi maganinani ku kwezi ko ariyo yishyurwa ku muntu ayikodesha i Kigali.

Inzu ebyiri zaka amatara zifite imiryango irimo inzugi zifite ibirahure ndetse imwe ifite ibirahure hejuru iherereye Kanombe hafi y'ikibuga k'indege, igurishwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine.

Icyumba cy'inzu ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi iherereye Kigali, Kibagabaga, ifite ahantu habiri ho kwinjirira ndetse harimo akabati gakozwe mu mbaho n'intebe zirimo imisego.

Icyumba cy'inzu yaka amatara menshi ifite igisenge hejuru kirimo imitako igurishwa amafaranga y'urwanda ibihu miriyoni ijana na mirongo ine, iherereye i kanombe.

Icyumba cy'inzu kirimo ibikoresho byo mu gikoni batekaho bikoresha amashanyarazi ndetse n'akabati gakozwe mu mbaho gafite uturyango twinshi, iherereye i kigali mu rwanda ikodeshwa amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi.

Inzu iherereye i Kigali igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, imbere yayo haparitse imodoka itagaragara neza, hirya yaho hateye ibiti byinshi, ifite urugi ku gipangu cyayo rw'umukara ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Abantu babiri uw'igitsina gore n'uwi'igitsina gabo, w'umuzungu bahagaze imbere y'intebe zirimo imisego ndetse n'insakazamashusho imanitse ku gikuta, hejuru ku gisenge hari kwaka amatara.

Abantu babiri bahagaze barimo umugore ndetse numugabo wumuzungu mbere ya hari ameza ndetse hafi yaho hari intebe zegamirwa ku gikuta hamanitse imitako.

Icyumba k'inzu kiri kwaka amatara hejuru ku gisenge n'umuryango ufite urugi rurimo ibirahure hejuru hari amagambo yanditse mu cyongereza ko igurishwa miriyoni ijana na mirongo itatu ikaba iherereye i Kigali.

Icyumba k'inzu kirimo intebe zifite imisego ndetse n'akameza gatoya bigaragara ko ari icyumba cyo bicaramo baganira hari umuryango ufunguye hejuru handitse ko ikodeshwa amadorari magana inani iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu ifite imbuga iteye n'igiti kinini kirekire, iherereye i Kigali Kacyiru ikodeshwa amadorari igihumbi magana atanu ku kwezi, ifite akadirishya gato kagaragara.

Icyumba kirimo igitanda ndetse n'imisego n'itara ryaka hejuru ku gisenge, handitse amagambo hejuru ko ari inzu ikodeshwa amadolari magana inani ku kwezi, iherereye i Kigali mu Rwanda.

Icyumba cy'inzu kirimo igitanda gishasheho amashuka ndetse n'imisego ifite ibitambaro by'umweru, hejuru hariho utuntu bacomekamo imigozi ikoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha amashanyarazi, handitseho amagambo ko igurishwa iherereye kibagabaga i kigali amadorari ibihumbi ijana mirongo itatu na bitanu.

Inzu ifite amabati y'umutuku iri iruhande rwindi, yubakishije inkuta za sima. Iherereye kagarama ikondeshwa, ibihumbi magana atandatu. Ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu.

Imiryango y'inzu ifunguye, uwo hepfo uhagazeho umugabo wambaye agapira gatukura, y'inyubako igeretse y'igorofa, imbere yaho handitse amagambo ko ikodeshwa. Iherereye i Kigali, Kanombe, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi, by'amanyarwanda.

Inzu ifite umuryango uriho urugi rufunguye hejuru handitse amagambo ko ikodeshwa ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe iherereye I Kigali kibagabaga .

Inzu ifite inzugi zisize amarangi y'icyatsi ndetse n'amadirishya; iri gukodeshwa iherereye i kigali i kanombe ifite ibyumba bitatu ubwogero bubiri ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inzu isize ibara ry'ubururu hejuru, ifite inzugi zitandukanye rumwe ruto nu'urundi runini, iherereye i Kigali i Remera, ifite icyumba kimwe cyo kuraramo, irakodeshwa.

Inzu iherereye Kimironko kwa Sekimondo, ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero butatu, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa, ifite icyumba kimwe, iherereye i Remera, hafi y'ikibuga cy'umupira, ifite urugo rwubakishije udutafari dutoya tw'impunyu, mu mpande harimo amadirishya y'ibyuma.

Inzu y'igorofa ifite ubusitani bw'ibyatsi harimo n'ibiti by'imikindo, ikodeshwa amadolari igihumbi magana inani ku kwezi ifite n'ubwogero rusange ndetse igakodeshwa amadolari ijana na mirongo itanu kw'ijoro rimwe iherereye i Kigali.

Inzu igeretse isize amarangi y'umweru imbere imanitseho igikoresho kizimya inkongi y'umuriro ifite ubusitani buteyemo igiti cy'umukindo iherereye i Kigali mu Rwanda igurishwa amadolari ibihumbi bibiri.

Inyubako y'igorofa ifite amadirishya y'ibirahure, izengurutswe n'urugo rwubakishije udutafari duhiye tw'impunyu, ikodeshwa, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri.

Icyapa cyerekana ikigo kiranga ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibibanza ndetse n’ibindi bitandukanye, kiri ku igorofa rigeretse kenshi rifite amadirishya y’ibirahure n’inzugi.

Inyubako ndende ifite ibirahure byinshi mumpande imbere yayo hariho icyapa cyanditseho agaciro kumpande ifite ubusitani bw’ ibiti.

Inzu ikodeshwa iherereye Kimironko Kigali, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi by'amanyarwanda, iri hafi y'umuhanda.

Inyubako igeretse y'igorofa ifite inkuta zisize amarange y'umweru iherereye i Kigali kabeza ifite ibyumba buitatu n'ubwogero butatu irakodeshwa.

Icyumba k'inzu gifite amatara yaka ku gisenge ndetse no mu mpande ku nkuta, hari umuryango urimo urugi rukozwe mu mbaho rusize irangi ritukura rufunguye, hasi handitse amagambo ko ikodeshwa, iherereye i Kigali, Kanombe, ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, ibihumbi magana atatu mirongotanu ku kwezi.

Ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu hari umuryango uriho urugi rurimo n'imfunguzo wibirahure ndetse hari utwuma dukikije imbere n'urukuta rusize irangi ry'umuhondo .

Ahacururiza ibyo kunywa birimo ikawa, harimo ibikoresho ku ruhande bitunganya ikawa ndetse n'udukombe bayishyiramo iyatunganye, hejuru ku gisenge hari amatara yaka y'umuhondo.

Abantu babiri uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo bambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano mu Rwanda, imbere yabo hateretse za mudasobwa ziri kwaka barimo kurebamo, ku ruhande hateretse akajerekani k'umuhondo.

Abantu bari ahagurishirizwa ibintu bitandukanye barimo ab'igitsina gore nab'igitsina gabo ndetse n'umwana muto. Muri iyo nzu mu imbere harimo ibyapa byinshi byanditseho amagambo ari mu cyongereza.

Umukobwa uhagaze mu iduka ricuruza imyenda, hejuru ye hamanitse amakanzu y'abagore harimo ay'umutuku, n'ubururu, ndetse n'ikigina, n'indi myenda ihambiriye itarahamburwa, imbere ye hari utumeza dukozwe mu mbaho, ku ruhande rwe hahagaze undi mugabo bigaragara ko nawe arimo kugura.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye mu igorofa ifite imiryango myinshi, imbere yaho hari abantu batambuka iruhande rw'umuhanda, hateye n'ibiti byinshi cyane ndetse ku nyubako iriho ibirahuri byinshi mu mpande, ku gikuta hariho amagambo mu mpine ba na ha.

Abantu benshi bicaye mu ntebe mu cyumba cy'inama, umugabo umwe yicaye imbere y'ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'igikoresho cyandika ku mpapuro.

Umuntu wicaye uri kureba mu bitabo ufite n'ikaramu, imbere ye hari uw'igitsina gore bigaragara ko hari ibyo amubaza n'undi w'umugabo wambaye agashati k'umweru uri kureba mu umuryango.

Inzu ndende ifite amagorofa menshi, iri iruhande rw'umuhanda, ifite ibirahure byinshi mu mpande, n'amadirishya afunguye, ku ruhande hateye igiti kitari kugaragara cyose, n'imodoka iri kwambuka ku muryango mugari.

Icyapa kiriho ishusho y'umuntu w'umugore, hejuru handitseho amagambo ejo heza, ubwizigame bw'igihe kirekire bukoreshwa mu Rwanda. Ku ruhande hicaye abantu babiri bambaye imipira y'umweru mu ihema.

Abantu benshi bahagaze hamwe imbere y'amazu, ndetse hejuru yabo hamanitse icyapa cyanditseho EjoHeza uburyo bw'ubwizigame mu Rwanda, hirya hari andi mazu afite igisenge kiriho amabati y'umutuku.

Abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo n'abana bambaye imyenda y'abayisiramu bafite amakarita mu ntoki ariho amashusho yabo.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hariho ameza ateretseho udutabo tw'ubwisungane mu kwivuza bukoreshwa mu Rwanda, hariho n'umugabo usa nkaho yandika mu gitabo abaje kwivuza.

Isoko ryisumbuye ricuruza ibintu bitandukanye, hari bigaragara umukobwa uri kugura utuntu adushyira mu gatebo gatoya, gakoreshwa muri iri soko, ku ruhande hari abandi nabo bigaragara ko baje kugura.

Isoko ryisumbuye ririmo ibyo kunywa byinshi cyane ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye haragaragara utubati twinshi turimo amacupa y'imitobe yo kunywa .

Isoko ryisumbuye rigaragaramo akabati kamanitsemo ibicuruzwa, by'ibyo kurya bihiye biri mu dushashi bitandukanye, hejuru hari igisenge gisize amabara y'umutuku, umweru, ndetse n'ubururu.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bahagaze mu isoko ryisumbuye baje kugura ibintu bitandukanye, harimo utubati twinshi turimo ibyo kunywa biri mu macupa.